Mu ruganda bakora imigati myiza iryoshye yitwa pekupe, bayikura mu ifuru bakagira ahantu ahantu bayirambika mbere yo kuyifunga kugira ngo ijye ku isoko abantu bayigure.

Uburyo bwo gukorera amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, ukanishyurwa ayo ukoresheje telefone yawe akakugeraho nta kibazo.

Inzu ndende y'ubucuruzi wesitenewone iriho abantu urujya n'uruza baje gutora amafaranga yambukiranya imipaka, hirya no hino bakabavunjira bagataha banezerewe.

Aho kurira uhasanga ibiryo ameza n'intebe wahagera ugatora ibyo kurya nta kibazo ufite usohoka wishimye.

Inzu nziza isize amarange, ifite amarido, irimo sima, hateyemo intebe, ameza, aha ni aho kuganirira, abantu.

Ku bigo by'imari haba hari urujya n'uruza, rw'abantu baparitse imodoka, baje kureba amafaranga, kandi bakayabonera igihe, nta muntu utaha atabonye icyo yaje kureba.

Mu isoko aho guhahira ibyo kurya uhasanga abakiriya benshi ari urujya n'uruza bahaha n'abandi binjira basohoka abandi binjira bagahaha neza bagatanga amafaranga nabo bagahabwa ibicuruzwa.

Umucuruzi ucuruje ibyo kurya harimo imigati, imineke, bacuruza neza uje wese baramwakira kandi ubitumije bimugeraho nta kibazo.

Abakobwa beza, bacuruza ku ikoranabuhanga, ushaka itike yo kujya ahantu runaka urayibona nta kibazo, bakayiguha, ukagenda ukagerayo, cyangwa hari n'ibintu ushaka gutuma, na byo ukabituma, bikagera aho byakagombye kujya ku ikoranabuhanga.

Inzu nziza irimo amakaro iteye irange ryiza, ifite parafo n'amatara meza, iguzwe miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri i Kigali mu Rwanda.